Inzu y'ubucuruzi yiganjemo ibinyobwa birimo bitandukanye, biri mu macupa arimo amabara menshi nk'ubururu, umutuku, umukara, icyatsi, umuhondo, umweru n'ayandi n'ayandi.

Inzu mberabyombi irimo amatara ashimishije, irimo ameza yo kuriraho bitewe n'abantu uko babyifuje mu gusangira, kandi ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu bari ku mubare wo hejuru pe.

Amafunguro ateguranye ubuhanga ndetse n'isuku bitewe n'uko yaruranywe n'abahanga babyize. Hariho inyama, igitoki, indimu, amashu cyangwa se agasalade n'ibindi n'ibindi.

Umusore wambaye agapira k'umutuku, ari kuvugira kuri terefone imbere ye hateretseho ameza, ndetse n'ibindi byicaro bigiye bitandukanye, kuri ayo meza ari imbere ye hariho ikinyobwa kitwa Mitsingi ndetse yasutse mu kirahuri ari kwica icyaka.

Abantu batatu bafite ibyo kunywa, bisa naho bishimye bari kuganira bicaye ku meza, ugasa naho hari mu kabari ndetse inyuma yaho hariho ibindi byo kunywa bitandukanye bitegereje abakiriya kugira ngo baze babigure.

Inzu cyangwa se ahantu hateguriwe gutangirwa serivisi zitandukanye, zirimo akabari, bitewe n'akameza kariho intebe, z'umubare w'abantu baje kuhicara baraza bakahaganirira kandi hariho n'umutaka uhakikije.

Akabari kagezweho karimo ibintu bigiye bitandukanye, kandi bifite isuku, harimo nk'amatara yo gukurura abakiriya, ndetse no kuhakesha. Harimo n'imbaho cyangwa se udutanda twabugenewe, two kurambikamo amacupa, ndetse n'ameza abantu bicaraho bari guterekaho amacupa.

Akabari karimo intebe zabugenewe kandi hakaba bategereje abakiriya, kugira ngo baze bahicare yewe hariho n'ameza yo kujya baraterekaho ibinyobwa, mu gihe bari mu kanya ko kuganira.

Urutoki rw'umuntu rurambitse ku idirisha, bisa n'aho ari irya butiki icuruza ibintu bitandukanye, harimo n'utumverope cyangwa se ambaraje, udupapuro tw'udupfunyika aho gupfunyikiramo abakiriya.

Inzu z'ubucuruzi zisize amarangi y'umweru, hariho imodoka zigiye ziparitse, hari kunyuraho n'umugabo wicaye ku igare akaba yitwa umunyonzi, ari kuzinyura iruhande rwazo.

Icyapa kinini kiri kuranga imyambaro cyangwa se izindi serivisi batanga ariko ziganjemo kwambika abageni, cyangwa se abashitsi higanjemo abageni b'abasore, ndetse n'inkumi ziherekeje abakoze ubukwe.

Urusisiro cyangwa se agasantere kari kugendamo abantu bari kugenda n'amaguru hariho n'uri kugenda ku igare, ndetse n'ubundi uri kugenda na moto. Imbere ye hariho amacupa ya gaze, cyangwa se amacupa arimo imyuka yifashishwa mu guteka.

Inzu y'ubucuruzi ifite inkingi kandi yometseho amakaro y'umweru, hejuru hariho icyapa kiranga serivisi ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye biba muri iyo nzu, harimo nko gutanga serivisi z'ikoranabuhanga ndetse na serivisi z'irembo, nko gusaba kwiga mu makaminuza n'ibindi n'ibindi.

Ubwikorezi bw'abantu ni'bintu, umumotari wambaye agapira k'umutuku ndetse na kasike z'umutuku ari kugenda mu muhanda, iruhande rwe hariho inzu z'ubucuruzi, zometseho amakaro y'umweru.

Icuapa cyanditseho kayitare, bisa n'aho kiri kuranga serivisi atanga, ndetse hariho na nimero za terefone, ukeneye ibindi bisobanuro yamuhamagara, kugira ngo amusobanuze.

Inzu y'ubucuruzi iriho umuryango ufunguye, hagati hahagazemo umuntu mu muryango, imbere ye hariho icyuma giteka ibigori byitwa injugu, hejuru ye hariho icyapa kinini kiranga ibikorwa ndetse na serivisi batanga muri iyo nzu.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibikoresho bitandukanye, hejuru yaho hariho ibyapa, bigaragaza serivisi batanga, cyangwa se ibicuruzwa batanga, harimo nka banki ndetse n'ubundi bucuruzi butandukanye, harimo nko gufotora, imyenda, intebe, ndetse n'indi bitandukanye.

Icyapa kinini kiririmo ibara ry'umweru zometse ku gikuta nacyo kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho ibikorwa ndetse na serivisi zitangirwa ahongaho kiri kuranga aho harimo nk'inyange ibicuruzwa byazo ndetse amata n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bikorwa n'uruganda rw'Inyange.

Inzu isize amabara y'ubururu ndetse n'umweru, iriho ibirango bya kimwe mu bigo by'imari bya hano mu Rwanda, byitwa banki, bikoreshwa mu kubika no kugurizanya amafaranga mu baturage.

Ibikorwa remezo birimo nk'umuriro w'amashanyarazi, aho usanga insinga, barafashe amapoto bakayashinga, hanyuma insinga zikagenda zifatiraho, zigiye mu byerekezo bitandukanye, bitewe n'aho aho abakeneye umuriro baherereye.

Inzu ishakaje amabati y'umutuku iriho igipangu cyubakishije amatafari ahiye, kandi yometseho amakaro y'umweru n'umukara. Hariho icyapa cyanditseho ngo "mu rugo" bisa n'aho hariho amacumbi, bishatse kuvuga ko uwahacumbika wese amera nk'aho ari mu rugo.

Inzu z'ubucuruzi zigiye zifite inkingi z'imituku, ubururu ndetse n'ikijuju, imbere yaho haparitse abamotari, kandi kuri i zo nzu hariho izigiye zigeretse kabiri icyarimwe.

Inzu z'ubucuruzi zisize amarangi y'umweru kandi zometseho amakaro y'umweru, hejuru hariho ibyapa biranga serivisi zitangirwa muri izo nzu, imbere haparitseho abamotari basa naho bategereje abagenzi barava guhahira muri izo nzu.

Inzu y'ubucuruzi iparitseho amagare abiri, ibumoso ndetse n'iburyo, agiye aparitse ku nkingi, kugira ngo badahririma, hagati mu muryango, harimo umudamu wambaye umupira w'umutuku, uri kurobanura ibirayi, kugira ngo bakuremo ibyaboze.

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibiribwa byoroheje ndetse n'ibinyobwa birimo nk'amata, amandazi, amabiswi, imigati, amaji ndetse n'ibindi n'ibindi bitandukanye.

Inzu iri mu mabara y'umweru ifite urugi rusa n'icyatsi, ruriho n'ibirahuri by'ubururu, hejuru hariho icyapa kiri kugaragaza serivisi, ndetse n'ibicuruzwa bitangirwa muri iyo nzu bisa naho ari akagari.

Inzu ndende isizwe amarangi ajya gusa n' umuhondo, impande yaho hariho ubucuruzi bw' ibigega bifata amazi cyane cyane ku mazu, biri mu ibara ry' umukara kandi bigiye bifite ingano zitandukanye bitewe n' ubushobozi bw' umukiriya.

Ibyapa bibiri harimo icy'ibumoso ndetse n'icy'iburyo byose biri kuranga serivisi bitanga. Hariho icyanditseho ngo :"Hinga wunguke ishami rya Musanze." Bisa naho kigamije gufasha abahinzi mu kwagura ibikorwa byabo.

Inzu itangirwamo serivisi zitandukanye zirimo nko gucumbikira abantu, amahoteli, ndetse n'utubari, ndetse no kwakira abashyitsi, hejuru y'idirishya hariho icyapa kiri mu rurimi rw'icyongereza cyandikishije amagambo y'umukara, gisa n'aho kiri guhamagara abakiriya cyangwa se kiri kubaha ikaze.

Iduka cyangwa se aho barangurira ibiribwa bigiye bitandukanye, byiganje cyane cyane ku musaruro w'ibikomoka ku buhinzi, harimo nk'umuceri, agahunga, isukari, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ku ruhande rwaho hariho amashashi arimo umunyu.

Inzu y'ubucuruzi cyangwa se iduka rigizwe n'ibintu bigiye bitandukanye birimo nk'imirimbo, ibikoresho by'ubwiza nk'amavuta, imibavu, amasabune ndetse n'ibindi bikoresho by'amasuka, harimo kandi n'utundi dukoresho tugiye dutandukanye two guserukana, harimo nk'amakofi, amasaha ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye imikufi n'ibindi n'ibindi.

Inzu z'ubucuruzi zometseho amakaro ari mu mabara, umwe n'umutuku ziganjemo ibikorwa by'ubudozi. aho hariho abantu bashyize hamwe barimo ab'igitsina gore, bakaba ari nabo biganje bakaba badodera hamwe.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda mu mujyi bamwe n'amaguru, abandi na moto, abandi n'amaguru, ndetse n'imodoka, bitewe n'aho berekeje ndetse n'ubushobozi bwabo. Bari kugenda mu rusisiro aho bari kugenda baranyura impande y'inyubako zigiye zitandukanye. Ku ruhande rw'iburyo hariho inzu y'isoko rusange yitwa Goyiko puraza, n'indi iburyo ihari yitwa Amikusi.

Urusisiro rugiye rurimo imihanda yamerekezo atandukanye, ndetse hariho n'inzu. Usibye n'inzu hariho n'ibyapa biriho amerekezo cyangwa se aho umuntu araba agiye kujya.

Inzu z'ubucuruzi zometseho amakaro ari mu tubara twa karokaro, hariho abantu bagiye batandukanye, hariho abegamye ndetse n'abicaye munsi yazo, bisa nk'aho zidafunguye cyangwa se uwo munsi batakoze.

Ibikoresho bigiye bitandukanye bisa n'aho bishaje, ariko bikaba aribyo kwifashishwa mu gusimbuza ibyangiritse ku bikoresho by'ikoranabuhanga nk'amatelefoni, ndetse bikazakoreshwa mu gusana wenda nk'izamenetse.

Inzu z'ubucuruzi ziri ku murongo munini, ibanza isize amarangi ry'umutuku, hariho n'amakaro yometse ku ruhande rw'imbere, hicayeho abagabo babiri bisa naho bategereje abakiriya, ndetse ku zindi nzu zikurikiyeho hegetseho amagare.

Abadamu babiri bicaye imbere y'ameza ariho ibikoresho bigiye bitandukanye birimo ipasi ndetse n'imashini, bisa n'aho bakora umwuga w'ubudozi, kandi hejuru ya ho hamanitseho ibitambaro ndetse n'imyambaro yo kudoda.

Inzu y'ubucuruzi ifite umuryango mugari uriho urugi rukozwe mu cyuma ndetse harimo n'ibirahuri, hejuru harimo ibyapa biri kugaragaza ibicuruzwa bibarizwa muri iyo nzu mo imbere harimo imineke n'amarindazi bisa nkaho biri kugaragara ku buryo buri wese yagenda akabigura.

Abanyonzi batatu bicaye ku magare yabo, bisa n'aho hari abantu bategereje nk'abagenzi. Kugirango babahe ikiraka cyo gukora iruhande rw'aho bahagaze. Umuntu ushinzwe umutekano, bisa n'aho yambaye imyenda y'icyatsi ndetse inyuma yabo hariho inzu y'ubucuruzi yubatseho amakaro y'umweru.

Inzu y'ubucuruzi igeretse rimwe, ni ukuvuga ngo iyo hasi umuntu nta bwo ayibara. Mu nzu yo hasi harimo ubucuruzi bw'ibikoresho byo mu rugo birimo nk'amabase, indobo ndetse n'amaparufe, cyangwa se imibavu, ibikapu, imikoropesho, imisego n'ibindi n'ibindi.

Inzu y'ubucuruzi yometseho amakaro ari mu mabara y'umweru ndetse n'ikijuju. Hariho urugi rw'ubururu n'imbere harimo amakara ndetse n'akameza gateretseho ibicuruzwa bitandukanye birimo nk'amashu ndetse n'inyanya.

Inzu y'ubucuruzi ifite urugi rw'ubururu, isize amarangi y'umuhondo. Hariho amashusho cyangwa se ibishushanyo by'abantu. Umukobwa n'umugabo bigaragaza ko batunganya imisatsi ndetse bakanogosha, yewe no hejuru yaho hariho icyapa kibigaragaza.

Inzu z'ubucuruzi zigizwe n'imiryango ibiri zifite inzugi z'icyatsi, iy'iburyo irimo abantu bari gucuruza ibiribwa bitandukanye, birimo nk'imigati, imitobe, amarindazi, amabombo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Inyubako iri mu mabara y'umutuku, ndetse yometseho n'amakaro. Imbere yaho, haparitse imodoka iri mu ibara ry'umukara. Muri izo nzu, kuri buri muryango, hariho amavaze cyangwa se imitako zagenewe guterwamo indabo zo gushaka, kugira ngo ahantu hase neza.

Inzu z'ubucuruzi zubatse mu buryo bugezweho, hejuru zigiye ziromekwaho amakaro, ku buryo igihe imvura yazagwa ntabwo bazagira ubwoba kuko inzu zirahirima, zigiye rero ziri impande y'umuhanda, hahagazeho umuntu umwe. Imwe muri zo yometseho icyapa cyanditseho ko hariho amacupa, arimo inzoga bisa n'aho ari akabari.

Icyapa kigaragaza cyangwa se kiri gutumira abakiriya, kugira ngo bazagane serivisi zitangirwa aho cyo cyapa kiri, bisa n'aho kiri kwamamaza ibikoresho by'ubwubatsi harimo nk'amabati, amakaro, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda mu rusisiro, cyangwa se mu mujyi, bari kugenda ku buryo butandukanye, bamwe na moto, abandi n'amaguru. Hariho n'ubucuruzi buciriritse, harimo nko gucuruza ama inite, harimo n'ubucuruzi kandi buteye imbere nko gucuruza mu makenkayori, cyangwa mu mabutike.

Inzu y'ubucuruzi ifite umuryango w'icyatsi. Ku nkingi zayo hometseho amakaro afite utuntu twa karokaro. Imbere yaho hamanitseho ibitenge biri mu mumabara atandukanye. Nk'ubururu, umukara, umuhondo, icyatsi n'ubururu.

Igikuta kimwe mu ibara ry'umweru, munsi yaho hubakishije amatafari ahiye. Hariho icyapa kiri kuranga serivisi ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, kandi handitse ngo hano tubafitiye inkoko, ifi, ifiriti, agatogo n'ibindi bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi ifite inzugi z'imyeru. Mo imbere harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byo gufasha mu bucuruzi. Harimo nk'iminzani, imifuka yo gupfunyikiramo abakiriya, ameza n'ibindi n'ibindi. Umucuruzi ahagaze mu muryango ari gupima ibirayi by'umukiriya.

Ikinyabiziga gitwarwa abagenzi ndetse n'ibintu, giparitse imbere y'inzu y'ubucuruzi, ndetse umuryango urafunguye, mo imbere harimo umukobwa, ndetse harimo n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, bisa n'aho byifashishwa mu gusiga cyangwa se mu kurwanya umugese.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, aho harimo n'icyuma cyifashishwa mu gukonjesha ibinyobwa ku bantu baba babikeneye, mu gihe baba bafite ubushyuhe cyangwa se bafite icyokere.

Icyapa kinini cyanditseho Zamura, bigaragara ko ari icyo kugira ngo kirangire abantu bakeneye serivisi cyangwa se ibikorwa bitangirwa aho iki cyapa kiri kuranga, bisa n'aho gitanga serivisi zo gutanga imbuto ku bihingwa.

Urusisiro rurimo inzu zigiye zitandukanye z'ubucuruzi, ariko nta n'imwe ikinguye bitewe n'uko isoko ritaremye, cyangwa se igihe cyarenze, cyangwa se mo kimwe hakaba habayeho igikorwa kidasanzwe gituma abantu badafungura, ariko bigaragara ko hakorerwa ubucuruzi.

Inzu igereretse rimwe cyangwa si etage, hejuru hariho iyindi harigutambukaho abantu, imbere yaho hariho n'umugenzi wicaye ku igare, hariho inzu z'ubucuruzi ndetse hejuru hariho icyapa cyanditseho ngo, koperative yo kubitsa no kugurizanya aba muhoza sako.

Inzu z' ubucuruzi cyangwa se butike ziriho abantu batatu umwe ahagaze ku muryango, n' abandi batatu bahagaze ku muryango nko hagati, harimo ibidomoro bibiri cyangwa se ibijerekani, hejuru hariho icapa kigaragaza serivisi zitangirwa muri iyo nzu.

Inzu y'ubucuruzi bisa naho iri munsi ya etage nk'imbere harafunguye ndetse hagiye harimo serivisi n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, barakinguye basa naho bategereje abakiriya kugirango baze babateze imbere, kandi hejuru y'umuryango hariho icyapa kigaragaza aho hantu.

Umuhanda unyuze ku kiliziya, yo mu mugi wa Musanze, hari kugendamo abantu bari ku igare, iruhande rwaho hariho inzu zirimo amarangi y'umuhondo ndetse imbere yaho hateretse amacyesi, y'umutuku kandi hariho abanyeshuri.

Icyapa kinini kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, bisa naho kiri kwamamaza ibikorwa ndetse na serivisi gitanga. Ni uruganda rukora ibintu bigiye bitandukanye birimo: nk'umuti wica imibu, isabune y'ogukoropa, kandi bagatanga n'umuti wica imperi.

Umugabo wambaye ishati ndetse nipantaro ya kaki, ari kugenda iruhande impande y'inzu y'ubucuruzi, imiryango ikinguye irimo abantu, ndetse n'ibicuruzwa byabo.

Iyi nzu itangirwamo serivisi zitandukanye harimo n'akabari, hejuru y'aho hariho ibyapa binini bishushanyijeho icupa risa n'icyatsi, bisa n'aho riri gukurura abakiriya kugira ngo baze kunywera muri ako kabari.

Inzu z'ubucuruzi ziparitseho imodoka ya fuso ifite ihema ry'ubururu ndende, bisa naho ipakira amayoga cyangwa se amakese, kugira ngo ijye kurangura abantu babone izo baragura.

Inzu z'ubucuruzi ziriho imiryango ikinguye, hejuru hariho ibyapa, bigaragaza serivisi cyangwa se ibikorwa bibarizwa, muri izo nzu ndetse bikaba biri gukurura abakiriya, kugira ngo baze guhaha ibicuruzwa.

Ubucuruzi cyangwa se igura n'igurishwa ry'ibikoresho, byifashishwa mu rugo ndetse no ku mazu. Harimo nk'ibikarito birimo amasabune, amabiswi, ndetse n'ibindi hariho umudamu wambaye umupira w'umweru, akaba ategereje abakiriya, ngo baze bamuhahire.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umukara, inkweto z'umukara ndetse n'isaha y'umweru. Bisa n'aho ahugiye mu kazi ke ka buri munsi. Yicaye ku ntebe iteretse iruhande rw'inzira, igiye mu nyubako zo hejuru, cyangwa se amagorofa yo hejuru, azwi nka etaje.

Umumotari utwaye moto iruhande rwe, hariho inzu isa n'aho ishaje , irimo amabara ya orange ndetse n'ubururu muri iyo nzu ku miryango hariho abakobwa n'abagabo, hariho n'ibyapa biranga serivisi zitangirwa muri iyo nzu, kandi hariho umukobwa wambaye ijire ya MTN.

Inzu ndende iriho igipangu cyubakishije amatafari ahiye. Imbere yaho hariho icyapa cy'umweru cyanditseho ngo "Dukunde Kawa Koperative Musasa." Bisa n'aho ari uruganda cyangwa se itsinda ryifatanyije kugira ngo rijye rirateza imbere igihingwa cya kawa.

Abagabo babiri bambaye amapantaro y'amakoboyi n'udupira, umwe yambaye ubururu undi yambaye umukara twose turiho ibiranganego bya efuperi inkotanyi, bari kugenda mumuhanda upavomye n'udupave dukozwe mu makoro iruhande rwabo hakikije ibiti bisa naho ari ahantu hateguwe rwose.

Icyapa kinini kiri kugaragaza aho serivisi ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye bitangirwa muri iyi nzu, bisa nk'aho ari amacumbi ndetse n'ibiribwa biri kumwe n'ibinyobwa, buri wese agasohokana n'umuryango we cyangwa se abakunzi be.

Igorofa rirerire, rigizwe n'amarangi y'umweru, kandi rikingishije ibirahuri by'umukara. Hasi hariho inzu zisanzwe zo gucururizamo, ndetse hakaba hamanitseho ibyapa biranga ibicuruzwa, ndetse na serivisi zitangirwaga muri izo nzu. Hejuru y'aho kandi, hariho akandi kapa karanga serivisi itangirwa aho ngaho, bisa n'aho ari iy'amacumbi.

Agahanda cyangwa se akayira kanyuze hagati y'ubusitani bwiza, akazuba kari kuva, yemwe iyo nzira yarakozwe neza, irapavomwa, ndetse bashiramo amabuye ashashe neza.

Umugabo wambaye: ikoboyi n'inkweto z'uruhu, agapira kaka rakosite ndetse n'ikoti. Ahagaze impande ya pisine cyangwa se ahantu habugenewe kugira ngo abantu bajye barahogera mu buryo bwo kwishimisha.

Amarembo cyangwa se umuryango uri kwerekeza mu nzu ibamo ibikorwa by'ubugeni harimo nko kubaza, gushushanya, kwandika ku byapa, ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, birimo amarangi n'ubugeni. Bikaba byibanda ku bintu bijyanye no mu birunga ndetse n'ingagi.

Isoko ririmo abacuruzi batandukanye, harimo abari gukora bicaye, abandi bahagaze. Harimo abagore bahetse abana ndetse n'abatabahetse. Mu gihe bose bahurijwe n'igikorwa cyo gucuruza imyenda bazitanditse ku mahema.

Agakarito, cyangwa se agapfunyika, kagenewe gutwarwamo ibikoresho by’ikoranabuhanga, byitwa amatoroshi, ari mu mabara atandukanye, nk’icyatsi, ndetse n’umutuku n’ubururu. Aho akiri mu bifuniko byayo, mu gihe aba agitegereje abakiriya.

Iguriro cyangwa se aho bagurira ibikoresho byo mu buruhukiro bw'imirambo harimo: nk'amasaduku, ibitambaro byo ku marimbi, imisaraba ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ubucuruzi bugiye gutandukanye aho buri mu masoko agezweho, harimo ibikoresho bitandukanye birimo nk'ibikoresho byo mu rugo, amavuta, amasafuriya, amaji, cyangwa se imitobe ndetse n'ibindi n'ibindi.

Isoko ririmo ibiribwa bitandukanye, birimo imboga ndetse n'imbuto, harimo nk'akaroti, puwavuro, indimu, urusenda, ibiringanya, kokombure ndetse n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu, bari kugenda impande y'isoko ririmo ibiribwa bitandukanye, cyane cyane ibikomoka ku musaruro w'ubuhinzi harimo avoka, ibitunguru, kokombure ndetse na pome.

Isoko cyangwa se iguriro ririmo ibikoresho bigiye bitandukanye cyane cyane ibyo mu rugo, hibandwa ku byo gukoresha isuku harimo amabase, amadobo agiye ari mu mabara atandukanye nk'ubururu, icyatsi, umukara ndetse n'umweru.

Umukobwa wambaye agapira k'umweru, ndetse inyuma ye hariho imbaho zisa n'aho zifashishwa mu bucuruzi bw'imyenda, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byo mu rugo. Harimo amabase, indobo ndetse n'amasafuriya.

Isoko ririmo ibikoresho bigiye bitandukanye. Harimo ibyo mu rugo, ndetse n'iby'amasuku cyane cyane: amabasi, imyenda, ndetse n'indi myambaro myiza itandukanye. Harimo n'abantu baje kugura, cyangwa se kugurisha bitewe n'ibyo bashinzwe muri iri soko.

Isoko ry'ibintu bitandukanye birimo imyambaro, inkweto ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, aho izo nkweto zirimo amabara y'ubwoko bwinshi harimo:nk'icyatsi, umutuku, ubururu ndetse n'ayandi.

Umufuka urimo ifu y'ubunyobwa, harimo n'akagereni gato, kifashishwa mu kurenga ubunyobwa bitewe n'inshuro zagenwe, kandi zigakurikije igiciro umukiriya azanye.

Isoko ririmo ibiribwa bitandukanye, cyane cyane ibikomoka ku musaruro w'ubuhinzi harimo nk'imboga n'imbuto, urugero harimo: ibibiriganya, amaronji, amacunga, amapapayi n'amawotameloni.

Isoko cyangwa se aho bagurira ibikoresho byo mu rugo bigiye bitandukanye birimo:nk'ibikombe, amarushe ,udusahani, ibiyiko, imihoro, udusekuru two gusekuza ubunyobwa, n'utundi dukoresho tugiye dutandukanye.

Inzu y'ubucuruzi bisa naho ari iyi biribwa ndetse n'ibinyobwa, hateretsemo utujerekani dufite ingano zigiye zitandukanye; harimo akamacupa atatu, harimo n'akandi k'amacupa arindwi twose twanditseho ngo sarama.

Inzu icururizwamo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga cyangwa se ibice byabyo, harimo nk'amaposhete cyangwa se inzugi, ndetse n'ibirahuri bya telefoni bizirinda kumeneka.

Ubucuruzi cyangwa se iguriro rijyanye n'ibikoresho by'isuku, ndetse n'iby'ubwiza. Harimo: nk'amavuta ari mu mabara atandukanye, nk'umutuku, umweru, ndetse n'igitaka. Bitewe n'umukiriya cyangwa se umuguzi uko ari kubyifuza.

Ihuriro ririmo abantu bagiye batandukanye, baturutse impande n'impande baje kwihahira ibyo kurya, byiganjemo ibikomoka ku buhinzi, harimo imboga n'imbuto, nk'inyanya, pavuro, ibitunguru, imiteja, ibiriganya, amashu n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu, bari kugenda impande y'isoko abandi bari guhaha, abandi bari kugurisha bitewe na buri wese, ibyo akeneye kandi mubyiciro bitandukanye harimo abagore, abagabo ndetse n'abana.

Iduka cyangwa se iguriro ririmo ibicuruzwa bitandukanye, birimo nk'ibikoresho byo mu rugo nk'amabase, indobo, ibikapu, imikoropesho, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Isoko ririmo urujya n'uruza rw'abagore n'abagabo baje guhaha abaturutse mu bice bitandukanye, aho ku nzu imwe hariho umutwaro w'ibisheke bisa neza biri mu ibara ry'umuhondo kandi hari abantu baraza kubigura.

Urujya n'uruza rw'abantu baremye isoko baje guhaha ibiribwa bigiye bitandukanye hibandwa cyane cyane ku bikomoka ku buhinzi birimo imboga N'imbuto ndetse n'ibindi birungo bigiye bitandukanye.

Isoko cyangwa se iguriro ririmo ibiribwa bigiye bitandukanye, cyane cyane ibikomoka ku buhinzi birimo nk'imboga, n'imbuto urugero amaronji, inyanya, kokombure ndetse n'ibindi.

indobo cyangwa se igikoresho cyagenewe gutwara ibyokurya kiri kubonerana ku buryo umuntu uri hanze yacyo yaba ari kureba ibintu birimo imbere. Harimo rero ibi biraraha cyangwa se isambusa.

Abagore baje mu isoko bicaye bategereje umuntu uraza kubagurira, ibicuruzwa byabo byiganjemo imboga, nk'ibitunguru kandi bakaba bategereje ko haza umuntu akaza akabahahira.